Uuhinzi wambaye igisurubeti n'ingofero, amarinete ndetse n'akantu ko kumurinda umunwa, akaba ahetsepombo arimo gutera imiti ibihingwa bye bishobora kuba byatatswe n'indwara.

Mu bihugu byo mu burayi, abazungu bakunze guhinga no mu gihe k'impeshyi kubera ko baba bizeye ko bari bwuhire niyo izuba ryava.

Mu buhinzi bugezweho usanga igihe ibihingwa byatatswe n'udukoko abantu bateramo imiti itwica kugira ngo bazabone umusaruro uhagije.

Umurobyi uri mu ruzi arimo gushakisha uko yabona amafi maze akaba yayatwara ku isoko kuyagurisha kugira ngo abone amafaranga atunga umuryango we.

Ubuhinzi bw'amafi bukunze kwitabwaho cyane niyo mpamvu uyu mupolisi nawe yaje kureba aho bahinga amafi.

ubuhinzi bw'amafi bumaze gutera imbere, abantu benshi usanga barihangiye imirimo yo gufukura ibyuzi maze bagashiramo amafi.

Kera isi taratera imbere, abantu biringiraga ibyuzi karemano, ariko ubungubu ubwo abantu bagiye mu mashuri, bagatangira kwiga, basigaye bakora n'ibyuzi ubwabo, bigatuma bafata amafi menshi.

Mu burobyi bw'amafi bugezweho, usanga ibintu byaroroshye kubera ko umuntu ashobora kuyorora, atarindiye ko uyizana mu cyuzi, ibi rero byatumye umusaruro w'amafi, wiyongera cyane.

Abarobyi b'amafi bamaze gufata amafi menshi mu kiyaga. Akaba ari nayo mpamvu bigaragara ko bishimiye iki gikorwa cyo gufata aya mafi.

Ubuhinzi bw'amafi bugezweho, asigaye afatwa kandi akororwa neza. Mu gihe mbere wasangaga abarobyi yose bayavana mu kivu cyangwa se mu kiyaga.

Mu bihingwa ngangurabukungu, habamo n'ikawa. Iyi ngiyi niyo ifasha igihugu cyacu kubona amadovize. Abahinzi bayo bagomba kuyitaho, kugira ngo igihugu cyacu kibone ibyo cyohereza mu mahanga.

Igihingwa cy'ikawa ni kiza kubera ko ari ngangurabukungu, gituma umuturage abona amafaranga ndetse n'Igihugu cyikunguka.

Umumama mwiza cyane wasaruye icyayi akaba abyishimiye kubera ko kizamuzanira amafaranga, ariko kandi ntabwo ari we wenyine kubera ko natwe twabyishimira cyane.

Igihingwa kiza cyane bigaragara ko cyabonye imvura, kandi kikaba gitanga amafaranga ku bantu bagihinga ndetse n'amadovize ku Gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Igihingwa k'ikawa zahishiye neza cyane. Abahinzi bitegure kuzisoroma maze bazijyane ku ruganda.

Mu cyayi niho abantu bagiye batandukanye bakura amafaranga, kubera ko cyoherezwa hanze, kandi icyo mu Rwanda kikaba gikunzwe cyane, Leta rero izashyire imbaraga mu gushishikariza abantu, mu kugihinga.

Mu karere ka Rulindo abaturage baho bakunze guhinga icyayi, kibafasha mu kwiteza imbere ndetse n'igihugu cyacu kikabona amadovize, niyo mpamvu leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga.

Imiti itandukanye iri muri farumasi gusa iyi ngiyi ntabwo ari iy'abantu, ahubwo ni iy'inyamaswa nk'inka, ihene, ingurube n'indi itandukanye abaveterineri nibo bayicuruza.

Umuti uvura amatungo nk'inka n'intama. Uyu wawusanga ku bavuzi b'amatungo.

Imiti igiye itandukanye usanga icururizwa mu mafarumasi agiye atandukanye, ibingibi ni ukugira ngo ababifitiye uburenganzira aribo bacuruza gusa.

Hari igihe haza ibyorezo bifata amatungo, harimo uburenge ndetse n'igikira, kugira ngo babivure ni uko bifashisha imiti yabugenewe.

Umumama ufite icyangombwa, kigaragaza ko isambu ahingamo ari iye ku giti ke.

Abaturage bagera kuri batanu, umwe yikoreye inkwi, abandi batatu imbere, uwa kabiri akaba ahetse inkoni cyangwa se ayifite ku rutugu ndetse n'undi umwe uri inyuma ufite umupanga.

Umuhinzi wunamye mu bihingwa bye akaba arimo kubibagara cyangwa se gukuramo ibyatsi, hanyuma ibyo akuye mu bihingwa akabishyira mu ibase kugira ngo aze kubitwika.

Mukamusangwa ni umuhinzi mwiza w'umuceri. Awuhinga mu gishanga, akawubagarira kandi akanawuhira, iyo weze arawusarura akawuhunika.

Igikorwa cyo gutera ibiti ni igikorwa cyitabirwa n'abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye kubera ko na perezida Paul Kagame aracyitabira.

Umugabo umwe arimo abwira abandi bahinzi ati "dukwiye gushaka uko dukorera hamwe, kugira ngo twikure mu bukene, ubuhinzi bwacu tubuteze imbere."

Iyo ndi mugo nicaye njyenyine, hari igihe nibaza nti: "Ese umuceri turya uva he?" Nahise njya ku ishakiro ndababaza, banyereka abahinzi batandukanye bari mu gishanga bahinga umuceri, kuva ubwo nahise nsobanukirwa aho umuceri uva.

Urutoki rukunze kugaragara mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twa Nyagatare, Kirehe, Kayonza n'utundi, ariko mu ntara y'Amajyepfo usanga bakunze kwihingira imyumbati y'ubugari.

Mu turere two mu ntara y'iburasirazuba, usanga bakunze guhinga ibihingwa by'imyumbati. Ibi bihingwa, nibyo byihanganira izuba. Niyo mpamvu rero, bakunda kubihinga.

Mu gishanga niho abaturage bahinga amashu, kubera ko ibi bihingwa bikenera amazi menshi kandi imusozi byasaba kuhira.

Ntabwo bisanzwe ko abahinzi batitabira guhinga imiceri mu bishanga. Kubera ko mu gishanga ari ho imiceri ihingwa.

Ikigori cyose cyavanywe ku musigati kiruma kugira ngo kituma nuko gihama ku musigati maze kigahama gifata ibyo kivanye kuri uwo musigati.

Mu bishanga niho abantu bakunda guhinga imiceri, wakibaza uti ni iyihe mpamvu ituma abantu bahinga mu bishanga? Ni uko bigira amazi.

Mu bishanga biherereye hirya no hino mu turere, Leta ni yo itanga ibyo abahinzi bari bwahinge kubera ko itabikoze gutyo bahinga mu kavuyo.

Ibiti by'imyembe ntabwo bikunze kuboneka ahantu hatandukanye, kandi ibi biti bifite imbuto zikungahaye ku ntungamubiri zatuma umuntu uziriye wese agira ubuzima buzira umuze.

Iyo ubonye akawunga kameze neza ifu irigusa umweru, ushobora kwibaza ko ibigori batabihinga. Ariko iyo ugeze mu murima, ubona ikigori kiri ku musigati kigiye kuma kimeze neza.

Niba ushaka gutera, ugomba gutunganya umurima wawe neza, ukawuhinga, ugakuramo ibyatsi, ugashyiramo ifumbire, byaba na ngombwa ukanuhira kugira ngo ubone umusaruro ufatika.

Birabujijwe kujya mu mashyamba ugatema ibiti byaba ibya kimeza cyangwa se ibyo bateye kubera ko iyo ubikoze bitera amapfa izuba ryinshi rikava.

Ingabo z'u Rwanda ndetse na Dasso ntabwo bashinzwe kurinda umutekano w'ibintu n'abantu gusa ahubwo bashobora no gukora ibikorwa by'urukundo nk'umuganda.

Umugabo uhagaze mu bihingwa bye akaba arimo kubyitaho kugira ngo bizere bimeze neza kandi na we azabone amafaranga yo gutunga urugo rwe.

Isoko ry'ibiribwa usanga rishimishije, iyo urigezemo uba wumva utarivamo kubera haba harimo ibyo umuntu ateka nk'inyanya, avoka.

Leta y'u Rwanda ishikariza abantu bagiye batandukanye, gutera ibiti by'imbuto ku mihanda ndetse no mu mirima yabo. Dore ko ibi ngibi bigira intungamubiri nyinshi.

Mu isoko rusange ry'abaturage usanga bacuruza inyanya, kandi ziba zihendutse kubera ko ushobora gutwara amafaranga ijana ukazana umufungo.

Igikorwa cyo kuhira ni cyiza cyane. Kubera ko gituma no mu gihe cy'amapfa abahinzi buhira bagatera ibigori ndetse n'ibishyimbo, bikera abaturage tukabona ibyo turya.

Mbere y'ikoranabuhanga wasangaga abantu bahangayikishijwe ni'izuba, kubera ko ryumishaga ibihingwa byabo. Ariko ubu abantu dushobora kuhira no mugihe cy'izuba.

Akamashini kuhira karimo gukwirakwiza amazi ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo ibihingwa bikomeze bikure no mu gihe cy'izuba. Aka kamashini gakoresha lisansi.

Umuturage wese ushatse imashini yuhira Leta y'u Rwanda yaramworohereje kubera ko yishyura kimwe cya kabiri ayandi mafaranga yose akishyurwa na Leta.

Kuhira ibihingwa ni kimwe mu bikorwa byiza kubera ko bituma abaturage baticwa n'inzara n'iyo haba hatse izuba ryinshi.

Mu turere two mu burasirazuba, abahinzi bakunze kuhira kubera ko muri iyi ntara, hagaragaramo izuba ryinshi, kandi na leta irabafasha.

Uruganda rw'Inyange rufatiye runini igihugu cyacu kubera ko rutanga amata maze, imirire mibi ikagenda nka nyomberi mu bana bacu.

Umugabo urimo kuhira akoresheje amazi avomye biragaragara ko yaba atuye mu ntara y'Iburasirazuba kuko ni ho hadakunda kugwa imvura.

Abaturage baba bafite urwitwazo ko ibikoresho bikoreshwa mu kuhira bihenda ariko Leta y'u Rwanda isigaye itanga nkunganire ku muntu wese ubishaka.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite imisozi myinshi dore ko banakita igihugu k'imisozi igihumbi ni nayo mpamvu byorohera ba mukerarugendo kuza bakajya mu ngagi ndetse bakajya no mu birunga.

Imisozi ndetse n'ibibaya byo mu Gihugu cy'u Rwanda usanga bishimishije .Niyo mpamvu ba mukerarugendo bakunda kuza mu Rwanda kudusura.

Iyo utuye ahantu heza hari ibiti, ushobora gutera intebe hanze maze ugatangira ugasoma. Biba byiza iyo ufite n'umutaka uhatwikiriye kugira ngo izuba ritaza kukwica.

Ahantu mu mudugudu hasa nko mu cyaro hateye insina, hari ikiyaga hakaba mu kirere harimo ibihu.

Amashyamba ni bimwe mu bikwiye kwitabwaho. Abantu bakabikorera kandi bakirinda kuyatema kubera ko bayatemye, byatuma tubura umwuka mwiza duhumeka.

Inka yororewe mu kiraro, igira umukamo kandi n'inyana yayo iba imeze neza, ariko iyororerewe ku gasozi usanga nta mukamyo ifite kubera ko itaba ibayeho neza.

Inka igomba kuba iri ahantu hasakaye, kandi hari n'amazi, kugira ngo igihe cyose igize inyota, ihite inywa amazi.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu buciriritse kandi bugatanga amafaranga menshi cyane, niba nawe ushaka gukira vuba uzafate ibihumbi bitanu ubiguremo inkoko.

Leta y'u Rwanda yita ku bidukikije, ni yo mpamvu rero yaciye kujya kuragira inka ku musozi, ahubwo igashishikariza abaturage kubaka ibiraro byo bazajya bashyiramo inka zabo ndetse n'ihene zabo.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bumwe mu bufasha igihugu kubera ko abaturage bakomeza kubona ibyo bahinga, leta ikwiye kuzajya ibishyiramo imbaraga.

Abahinzi iyo bamaze guhinga bafata ibyo bahinze bakabitunganya bikamera neza cyane cyane abahinga soya usanga zisa neza cyane.

Abavuzi babifitiye uburenganzira nibo bemerewe gutera intanga mu matungo, abatabifitiye uburenganzira, ntabwo babyemerewe kubera ko bashobora kuziteza indwara.

Umuganga w'amatungo iyo aramutse abazi inka agasanga ifite ikibazo, ategeka abaturage kuyihamba kubera ko bayiriye bashobora kurwara.

Umuntu wese woroye amatungo magufi nk'inkoko agomba kuyagirira isuku kubera ko umwanda uzitera indwara ariko na none niba inkoko zirwaye hamagara muganga w'amatungo aze aziteho.

Baca umugani ngo n'ingwe ntabwo yari izi gufata ku gakanu ahubwo yarabyigishijwe niyo mpamvu muri pariki usanga ariyo nyamaswa ifite amahane.

Ntabwo ari ibintu byoroshye kubona agakwavu k'ishyamba, kuberako mu gihe cyashize, abahigi baraduhize maze twose baratwica.

Inyamaswa zirimo inzovu, intare, imbogo, isatura ndetse n'ingwe ziboneka muri parike y'Akagera.

Muri za parike zitandukanye habamo inyamaswa nk'intare zikundwa gusurwa cyane kubera ko izi ntare zikurura abantu.